Umwana uri ku iriba cyangwa ku itiyo y'amazi yanyujijwe mu nganda agashyirwamo imiti, iyasukura, ikuramo imyanda myinshi, hirya gato hari ishyamba rigizwe n'ibiti.

Umukobwa uri kuvoma amazi yegerejwe, binyujijwe mu matiyo, ndetse akaba asukuwe yanyujijwe mu ruganda, akaba ari kuyashyira mu gikoresho cyabugenewe.

Abantu bateraniye hamwe bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, ku meza hateretse amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'Inyange, akabikwa neza mu macupa yabugenewe.

Ivomero cyangwa iriba rikoreshwa n'abaturage b'impande n'impande, ritanga amazi meza yanyujijwe mu ruganda agasukurwa, ku nkengero hari ishyamba ry'ibiti.

Abaganga b'inzobere baje gupima indwara zigiye zitandukanye abaturage ku buntu, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, imbere hari ikimodoka kinini kirimo imiti n'ibindi bikoresho bitwaje.

Abagore b'abahinzi bahagaze mu isambu iteyemo ibiribwa bigiye bitandukanye, inyuma yabo hari ibiti by'amashyamba ndetse n'ibitoki, harimo umwe uteruye umwana.

Muganga uvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane akaba ari inzobere mu kuvura indwara zo mu kanwa nk'amenyo, ishinya, impumuro mbi n'ibindi.

Umuganga w'abana n'abantu bakuru, uvura indwara zose zo mu kanwa ziganjemo iz'amenyo, ishinya ururimi n'ahandi, ari gukura akana gato.

Umugore ndetse n'umwana bafite uburoso bw'amenyo, buriho umuti woza amenyo neza, bambaye udusengeri turi mu ibara ry'umweru ndetse bakaba bizihiwe.

Abasaza n'abakecuru bakora umwuga wo kuboha ibiseke, ibyibo, inkangara n'ibindi by'ubukorikori bigiye bitandukanye, bakabigurisha ku isoko.

Inama yitabiriwe n'inzobere mu bushakashatsi ku birebana n'icyorezo cyitwa mabaga gifata abantu binyuze mu gukoranaho, gusuhuzanya, guhumekeranaho n'ibindi.

Kandi yitabiriwe n'abantu batandukanye uyiyoboye afite icyuma cy'indangururamajwi cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu mbwirwaruhame ndetse hakaba inyuma ye hari umuyobozi ushinzwe ibyo byuma by'ikoranabuhanga.

Mu bushakashatsi bugiye butandukanye, harimo n'abaganga babihuguriwe bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu isuzuma.

Inyubako yahariwe imyitozo ngororamubiri, irimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa muri icyo gikorwa ndetse hakaba harimo n'abantu babitorejwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kerekana Umujyi wa Kigali, hirya gato hari ishyamba ririmo ibiti birebire by'inganzamarumbo, ku ruhande hari akayira kanyurwamo n'ibinyabiziga.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo cyakira abarwayi bagiye batandukanye, kikaba cyabafasha ku birebana n'indwara bafite, hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, cyanditseho ikigo nderabuzima giherereye i Gisenyi, kikaba gifasha abarwayi bagiye batandukanye ku ndwara nyinshi zinyuranye.

Inzu y'igorofa yubatse mu buryo bukomeye kandi burambye, imbere hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse rikaba riri mu busitani, hirya gato haparitse imodoka iri mu ibara ry'umutuku.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza gifasha abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye hakaba hari abagore, abakecuru, abasaza, abana bato mbese ni ingeri zose.

Icyumba cyo ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bigiye bitandukanye, cyifashishwa mu gupima indwara zinyuranye ndetse kikaba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga.

Abaganga bateraniye hamwe bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda kwanduzanya ibyorezo bigiye bitandukanye bakaba ari ahitwa “Isange One Stop Center” ,ahafashirizwa abana bafashwe ku ngufu.

Ku kigo nderabuzima, hari inzu y'ababyeyi babyariramo, ikaba yubatse mu buryo bugezweho kandi bwiza, imbere hakaba hari uturabo, hirya gato hari ubusitani buteyemo utwatsi.

Aba bateraniye hamwe bari kwiga ku ndwara y'umurwayi uri aho ngaho, imbere hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga, gisakaza amajwi n'amashusho kirimo umuzungu.

Inyubako irimo ibyuma by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, igira akamaro gakomeye ku mubiri wacu, haba mu buzima busanzwe ndetse no kuba wagabanya umubyibuho ukabije.

Umuganga uri kuvura umurwayi wakomeretse w'indembe ari kumupfuka yifashishije ibikoresho bya kijyambere bigezweho bifite isuku ndetse bikomeye.

Umukobwa cyangwa umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri ifasha mu buzima bwa buri munsi, mu kubaho neza ndetse no kuba wagororoka umubiri wose.

Isuzumiro ririmo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, bisuzuma mu nda, umutwe, umugongo n'ahandi henshi cyane ku mubiri w'umuntu, bikaba byakwerekana icyo arwaye.

Cy'urubuto rw'ipapa gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye nko kurinda indwara, kongera amaraso umubiri ndetse no gutera imbaraga umubiri muri rusange.

Igihingwa gihingwa mu cyaro cyitwa umuravumba, kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, gikoreshwa n'abavuzi gakondo, aho ukivuguta cyangwa ukacyotsa.

Ubuki bwanyujijwe mu nganda bugatunganywa neza, bukabikwa mu macupa yabugenewe aburinda kwangirika ndetse bukaba bwabikwa igihe kirekire, bukaba buturuka ku nzuki.

Igihingwa cy'igikakarubamba gihingwa mu misozi miremire, kikaba gifasha mu ndwara nyinshi cyane zaba iz'uruhu ndetse n'izo mu mubiri mo imbere harimo inzoka kandi hakaba n'iz'uruhu, iz'ibiheri n'ibindi.

Abahinzi bahinga igihingwa cy'igikakarubamba kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zaba izo mu mubiri ndetse no ku ruhu, kikaba gikorwamo kandi amavuta yo kwisiga.

Igihingwa cy'umuravumba cyera ahantu hagiye hatandukanye, kikaba cyifashishwa mu kuvura ibicurane, inkorora, umutwe, inzoka n'ibindi.

Igihingwa gihingwa ahantu hagiye hatandukanye, cyifashishwa mu buvuzi gakondo, kikaba kivura inkorora, ibicurane, umutwe, kuvunagurika mu ngingo ndetse n'inzoka.

Isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo ibikomoka no ku matungo ndetse hakaba hagiye hari inyanya, imboga, imbuto zitandukanye n'ibindi.